Umugabo uhagaze afite mikoro yambaye ikositimu, yambaye n'ishati y'umweru ndetse na karuvati, akaba yambaye n'amadarubindi ahagaze imbere ari kwigisha abantu imvesiti ini Rwanda cyangwa se gushora mu Rwanda.

Inama yahujije abantu benshi harimo imbaga y'abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abandi bahagaze bigaragara ko babahagarariye.

Abantu bicaye hamwe mu cyumba, icyumba bigaragara ko gifite inkuta zifite amabara y'umweru, abantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye, abambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi, umukara, abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku, umugabo umwe muri bo akaba ahagaze afite indangururamajwi bigaragara ko hari imbwirwaruhamwe ashobora kuba ari kubaka.

Abantu benshi, bicaye ahantu mu cyumba ndetse bakaba bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hateretse ibyo kunywa.

Abagore bambaye imikenyero y'umweru ndetse bakaba bambaye n'urunigi mu ijosi. Bakaba barimo gukoma amashyi, bigaragara ko bishimye cyane.

Umugore urimo kubyina ndetse akaba ari kumwe n'abandi benshi, akaba yambaye imyenda y'umweru ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi.

Iki ni igikoresho bita urusyo bakaba baragikoreshaga kera mu muco nyarwanda mu Rwanda rwo hambere, bakaba baragikoreshaga barimo gusya ibinyampeke bitandukanye, urugero nk'ibigori, amasaka, uburo ndetse n'ibindi.

Udusaro twinshi, turi ku migozi ndetse hakaba harimo utw'umukara, harimo n'utundi tw'umweru. Akaba ari udusaro twiza abantu bakunda cyane cyane abana.

Abakobwa bambaye imyenda isa ndetse umwe muri bo akaba afite indangururamajwi. Iruhande hakaba hari abandi bafite ingoma ndetse bigaragara ko bari mu kirori.

Imwe mu mikino yifashishwa, ikaba ifasha umuntu mu kuruhuka neza, akaba ari umukino wakinwa n'abantu babiri, aho buri wese agenda yimura inkinisho z'iwe, kugeza atsinze.

Umuntu wambaye imyenda y'ubwirinzi, yambaye ingofero, yambaye itaburiya arimo kurira ipoto. Akaba ari ahantu hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Imashini nyinshi zitandukanye, zifashishwa mu kujyana umuriro w'amashanyarazi, zikaba zubakiye ahantu, zizitiye kugira ngo hatazagira undi muntu uzigeraho, akazibangamira.

Abantu bane, batatu bahagaze ndetse undi yicaye, bakaba bari imbere y'icyapa cyanditseho Repuburika y'u Rwanda, munsi harimo ijambo RAB, bisobanuye Rwanda agirikaca bodi, icyo cyapa akaba ari icya Nyagatare.

Imodoka ebyiri nini cyane, ziri kugenda mu muhanda mugari, zikaba ziri ahantu hafi y'ishyamba, ahantu ku mukingo hateye ibiti byinshi.

Inyubako nini cyane y'ibitaro akaba ari ibitaro byubatse ku buryo bugezweho, hakaba hari inyubako ifite ingereko, hakaba handitseho ibi ko ari ibitaro bya Gatunda.

Inzu zubatse ahantu heza zikaba zubakishijwe amatafari, hakaba hahagaze abantu babiri umugore ndetse n'umugabo, umugabo bikaba bigaragara ko arimo kwinjira mu nzu.

Umuhanda mugari uri ahantu ku cyapa ndetse aho hakaba hari n'abantu benshi, hakaba hari icyapa cyanditseho Uganda ndetse n'ikindi kibifuriza urugendo ruhire.

Isoko ryubatswe ahantu, akaba ari isoko rinini, rikaba ryubatse ahantu hari umuhanda, akaba ari isoko risakajwe amabati ndetse ryubatswe rikoresha hakoreshejwe amatafari.

Ikigo nderabuzima cyubatswe ahantu ndetse kikaba gisize irangi ry'ubururu, ku nkuta zacyo hakaba handitseho amagambo ndetse hakaba hanashushanyijeho abantu, kikaba cyanditseho gira ubuzima.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako z'amashuri hakaba imbere yabo hari umuntu uri kubaha amabwiriza bigaragara ko bose bategereje kumva icyo arimo kubabwira.

Ino ni inama y'abantu benshi bakaba bateraniye ahantu hamwe. Hakaba harimo abantu benshi batandukanye harimo umusirikare ndetse harimo n'undi w'umudaso ndetse n'abapolisi.

Abantu bambaye neza bari ahantu hateguwe ndetse hakaba harimo n'abasirikare, umusirikare umwe akaba afashe urupapuro rw'umweru ndetse iruhande rwe hakaba hari n'abandi benshi.

Abantu batandatu bahagaze iruhande rw'imibyare ndetse hakaba harimo umubyare ufite igitoki, muri abo bantu hakaba harimo umwe wambaye imyenda ya polisi.

Umuyobozi wicaye, yambaye umupira w'umweru ndetse n'ishati inyuma. Imbereyiwe hari urupapuro ndetse akaba yambaye n'isaha ku kuboko, imbere ye hari umuntu wambaye ingofero.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba bicaye ku ntebe nziza ndetse ab'imbere imbere yabo hatetse ameza ariho icyo kunywa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe higanjemo urubyiruko ndetse n'abana, imbere yabo hakaba hari umuntu mukuru uhagaze bigaragara nkaho hari ikintu ari kubabwira, iruhande hakaba hateretse indangururamajwi.

Ivuriro ryubatse ahantu ku muhanda ndetse ku marembo y'ivuriro hakaba hari icyapa kigaragaza ko hari ivuriro, kikaba cyanditseho ivuriro ndetse n'ayandi magambo.

Imodoka nini, ikaba ifite pulake ndetse ikaba iparitse ahantu mu muhanda, hirya yayo hakaba hubatse andi mazu.

Umuhanda mwiza, munini akaba ari umuhanda utsindagiye ndetse hakaba hari n'icyapa kemerera abagenzi gutambuka, haruguru yawo hakaba hubatse inzu nini.

Icyapa kiri ahantu k'umuhanda wa kaburimbo, kikaba gishinze iruhande rw'umuhanda. Iruhande r'waho hakaba hari insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'amazu menshi.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, hakaba hari icyapa cyemerera umugenzi gutambuka. Kikaba gishinze iruhande rw'igiti ndetse hakaba hari n'inyubako y'abantu.

Icyapa cyubatswe hakoreshejwe sima ndetse n'amabuye cyikaba cyanditseho amagambo menshi hariho indangagaciro ndetse hariho na kirazira cyikaba ari icya Nyagatare mu murenge wa Nyagatare

Abantu benshi, bakaba bari mu gikorwa cyo guhinga, bose bafite amasuka ndetse hakaba harimo n'umusirikare, bakaba barimo guhinga, bigaragara ko bishimye.

Abantu benshi bakaba bari ahantu hamwe ndetse bafite ibikoresho bitandukanye. Harimo abafite amasuka abandi bafite ibibando ndetse harimo n'abasirikare.

Abantu benshi bahagaze mu gishararagati bisa nk'aho habereye ikirori, hakaba harimo abapolisi batatu ndetse n'umusirikare umwe harimo n'abandi bantu benshi bahagaze inyuma yabo.

Umugore wambaye ibitenge ndetse yaniteze, uhagaze mu bantu benshi afite indangururamajwi ndetse iruhande rwe hateretse ibindi bikoresho byifashishwa mu gusakaza amajwi.

Umupolisi wambaye iyo imyenda y'akazi ndetse akaba yambaye n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi akaba arimo abwira abantu bari kure, iruhande rwe hakaba hariho abasore babiri bafite icyapa cyanditseho gerayo amahoro.

Abantu ikenda bahagaze ahantu muri sitade akaba ari ahantu hameze neza ndetse hakaba harimo n'umwe w'umupolisi.

Abantu benshi bihurije ahantu hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo abantu bari kubyina bigaragara ko bishimye cyane.

Umukinnyi w'umupira uri ahantu mu kibuga, akaba ahagaze imbere y'izamu inyuma, yiwe hakaba hari amazu menshi ndetse harimo n'inzu nini bigaragara ko ari urusengero.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bari gukina, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi, bambaye imyenda y'umuhondo.

Abana benshi, bakaba bambaye imyenda ibaranga, ndetse hakaba harimo n'umwe muri bo utambaye imyenda hejuru. hakaba hari abana, bigaragara ko bari mu kigero kimwe.

Abakinnyi b'umupira bari ahantu mu kibuga bambaye imyenda y'umuhondo ndetse abandi bambaye imyenda y'ubururu bakaba bitegura gutangira umukino.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyenda y'ubururu harimo n'abambaye umuhondo, hirya yabo hakaba hari umusifuzi urimo ubareberera iminota ndetse n'amakosa bakora mu kibuga.

Imodoka ya polisi iri kugenda mu muhanda, inyuma yayo hari abantu benshi ndetse ku muhanda harimo n'amatara amurika, bigaragara ko ari mu gihe cya n'ijoro.

Abantu benshi bari ahantu muri sitade, akaba ari ahantu hari amatara ndetse bigaragara ko ari nijoro. Muri sitade hakaba hari intebe ziri hejuru, akaba ari intebe nyinshi.

Abakinnyi umunani bose bambaye imyenda y'umukino, bambaye imyenda y'umuhondo, bakaba bicaye ku ntebe y'abasimbura, bategereje kujya mu kibuga, gukina.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu muri sitade. Bakaba bicaye barimo kureba ahantu hamwe, bigaragara ko bose hari igikorwa kimwe barimo kureba.

Imihanda yo mu byaro ni imihanda itarimo kaburimbo, gusa ifasha abaturage rimwe na rimwe ikaborohereza ingendo baba bakora za buri munsi kugira ngo bagire aho bava naho bagera bityo byoroshye imihahirane.

Umuntu utwaye igare mu muhanda yambaye isengeri y'umuhondo, yambaye ipantaro yi'koboyi ndetse na bote, akaba ari guca ahantu mu gasantere hari umuntu uri mu mutaka w'umuhondo ndetse haparitse n'imodoka.

Utuyira duto akaba ari inzira ica hagati mu murima ndetse hakaba harimo abantu barimo kugenda, iruhande rw'inzira hakaba hahinze ibimera ndetse bikaba byifashishwa mu kugaburira amatungo.